Abantu bahagaze ku murongo bambaye imyenda y'ubururu, harimo n'abambaye imyenda yimituku iriho n'ibyapa by'umweru, bahagaze kumurongo bafite n'ibikoresho, inyuma yabo hateye n'ibiti bya voka.

Abagabo bahagaze mu kibuga bambaye imyenda y'akazi, bambaye na bote, n'udupfukamunwa, n'ingofero zirebye imbere, barahagaze baremye, imbere yabo hari ibikoresho byabo.

Abasirikari bari ku muronko bambaye imyenda ya gisirikari n'ingofero zirebye imbere, hirya yabo hariho ibitari birimo ibiti binini ,harimo abambaye imyenda y'umuhondo n'indi isa na gisirikare.

Amashanyarazi manini，ashinze ku muhanda， hirya yaho hariho ibiti binini by'ishyamba， hariyo n'inzu yubatse neza isakaye.

Umupolisi w'umugore aricaye, ari kuvugira kuri mikoro yambaye isaha. Afite n'umusatsi yarawuzingishije, yicaye ku nyubako nziza.

Abantu bari mu nama bateze amatwi umuntu uri kubigisha, hari abagabo bambaye amashati y'imituku, abagore batipfutse biteye udusharupe, n'abagabo bambaye amarinete, n'abagabo bambaye amashati arimo imirongo y'umukara.

Abantu bari mu nama bicaye. Umugabo uhagaze imbere yabo ari kubigisha, yambaye ingofero y'umukara, ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara n' inkweto zifunzeA abadamu bambaye ibitenge bipfutse n'ibitambaro harimo n'abifubitse ibitenge by'imituku, harimo n'ibya rumbiya.

Umudamu uri guhugura abandi badamu ,harimo abafite abana n'abadafite abana ,hateretseho n'ameza arambitseho telefone n'agakapu, hariho n'inzu y'amatafari ahiye irimo umurongo w'ubururu.

Abantu bari mu nama ni abagore, ni abagabo. Inama ifatirwamo imyanzuro myinshi, iba ikenewe kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo.

Intore ziri kubyina, zambaye ibihura, zambaye n'imyenda y'imihondo, ziri guhamiriza zahimbawe ntiwareba, inyuma yayo hariho inyubako igaragara nk'iyubakishije ibyatsi, hariho n'uruzitiro rw'imigano.

Abantu bari mu bukwe, bakenyeye n'abagabo bakenyeye, bambaye n'inigi mu ijosi, bafite n'uducuma turimo imiseke, bakenyeye imyenda y'imyeru n'ubururu abandi bakenyeye imyenda y'umutuku.

Imitako ibohesheje amabara y'umukara, n'umutuku, n'umweru. Ni imitako myiza iraboneye. Ni myiza cyane, isa neza.

Igikoresho kitwa isekuru. Iki ni igikoresho twakoreshaga kera cya kinyarwanda， imashini zitari izaza，tugasekuriramo ubugari，tugasekuriramo inzuzi，tukakifashisha mu mirimo yo mu rugo，imashini zitari zaza.

Abantu bahetse umuntu mu ngobyi, harimo abari kugendera ku nkoni bifubitse n'ibishura by'umukara, batwaye umuntu mu ngobyi.

Umworozi w'inzuki afite ifumba ya kijyambere agiye guhakura, yambaye n'ingofero yabugenewe, yambaye n'igisarubeti, afite n'ifumba mu ntoki ya kijyambere. Ubuki ni bwiza, buvura indwara nyinshi kandi buranaryoha.

Abantu bicaye bari kurya, bambaye imyenda isa, bari kurya ibigori, harimo n'abana bambaye imyenda inyuranye, irimo umutuku n'amajipo y'umukara.

Abantu abakaraza bari kuvuza ingoma. Bambaye imikenyero,. bambaye n'impete zo mu mutwe ,bari kuvuza ingoma. Harimo abakobwa harimo n'abahungu, bose bari kuvuza ingoma bakenyeye baberewe.

Abakobwa bagiye gusezerana bambaye neza, bambaye uturabo mu mutwe. Bari kwambara impeta, bari guseka, basa neza, barishimye, bameze neza.

Abagore bari gukama ibitoki mu muvure, undi ahagaze iruhande rwabo, yambaye ingutiya y'ubururu n'umupira w'umuhondo, hari n'insina iruhande rwabo. Ibitoki ni byiza bivamo umutobe uryoshye.

Ibyibo n'imitemeri yabyo birambitse mu kintu, ni imirimo y'amaboko n'imyuga iduteza imbere, igatuma tubona amafaranga tukikenura mu bukene dufite.

Igiseke kiboshye mu mabara y'umukara n'umweru, ki gipfundikiye neza ni cyiza, igiseke ni cyiza iyo umuntu acyikoreye ubona ameze neza.

Umuririmbyi uri gukoresha igikoresho cyitwa inanga bakoreshaga kera, yambaye imyenda, yambaye umupira w'amaboko maremare ufunze, ari kuririmba.

Igiti kiri mu busitani gifite amabara y'icyatsi, n'indabo z'umweru zisa neza. Ibiti ni byiza bituzanira oguzijeni bigatuma duhumeka neza.

Abantu b'abagabo biyogosheshe amasunzu ya kera bafite amacumu, bambaye n'inigi za kera, mbese bari kugaragaza umuco wa kinyarwanda.

Abagabo bari kuvuza ingoma bambaye imyenda y'imikara bakenyeye n'udushura turimo amabara y'ubururu n'umweru, barishimye cyane ingoma bazivuza ku minsi mikuru, iyo habaye iminsi mikuru ya kiliziya cyangwa se kera bazivuzaga ibwami.

Ibikoresho bya kinyarwanda birahambitse ku kirago, harimo inkangara, ibicuma, imbehe, ibicuba byo gucunda amata, icyansi, icyansi, igisobane, n'intara n'inkoko.

Intore ziri kubyina, abandi bari kuvuza ingoma, zakenyeye ibishura bya rumbiya, abandi bakenye imikenyero y'icyatsi n'iy'umweru, harimo n'abasaza bambaye ingofero, n'ingoma, n'ibyibo bipfundikiye.

Imbehe za kinyarwanda zibajije mu giti, zirafatanye, izi mbehe ziba nziza, nizo kera twariragaho, zifite imikondo ebyiri izifatanyije. Nizo abakera bakundaga kuriraho akanyama.

Ibiryo biri ku mbehe ya kinyarwanda n'ibijumba birambitse hasi ku makoma, n'ibigori birambitse baruriye ku makoma. Ibigori biraryoha ni Ibiryo biva harimo n'ibiryo bivanze n'imboga.

Ibikoresho bya kinyarwanda harimo inkonzo, harimo ibicuma birimo imiseke, harimo za nyirabunyagu, harimo igiseke harimo n'umukeka.

Umugore ugiye guhinga yambaye agapira k'umutuku, yambaye n'ingofero, atereye isuka ku rutugu ikwikiye mu muhini mushya, inyuma ye hari insina, hari n'igihuru, n'amenyo arimo ishinya.

Inzu nini cyane ya etaje, imbere yaho hari ibiti by'amashanyarazi, hirya yayo hari igitari kinini kirimo ibiti byinshi cyane, binini by'ininturusu. Iyo nzu yubatse neza.

Mu bitaro birimo ibitanda, bishasheho amashuka y'ubururu, hejuru harambitse agasume k'umweru, hari n'akabati ko kurambikamo ibikoresho, ibi bitaro ni byiza bifite isuku, ibitaro ni byiza biradufasha cyane.

Inzu y'umuturage yubakishije amabati, amabati arashaje arakuze, ifite inzugi z'ubururu n'amadirishya y'ubururu yubakishije amabuye y'amakoro.

Ikiriziya kinini cyane cyuba cyubatswe neza gifite umunara muremure, imbere y'aho ku mbuga y'imbere no n'iyo hirya hose hateye ibiti binini by'indabo birebire, gifite amadirishya y'ubururu, ku nzugi hateye amarangi y'umweru.

Umupasitoro uhagaze ari kuvuga afashe mikoro. Yambaye ikositimu y'umukara. Afashe mikoro ahagaze imbere ya podiyumu.

Urusengero runini cyane rwubatse rwubakishije amabati, rufite urugi rw'ubururu ruteye umusenyi wera. Imbere yaho hari umugabo uri kujya ku rusengero wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umuhondo n'abandi n'undi mugabo n'umugore bari kujyayo, nabo bari kujya gusenga n'undi uturutse hirya.

Abantu bicaye bafite za mashini ziteretse imbere yabo kumeza, bambaye imyenda y'ubururu n'umutuku bazingishije n'imisatsi, bafite za mashini imbere yabo bose bari kwandika bari kuzirebamo.

Inyubako nziza cyane ifite umuhanda wa kaburimbo. iparitse imbere yaho haparitseho imodoka y'umweru. Isakaje amabati y'ubururu iteye n'amarangi yumweru. Inkingi zayo zubakishije amatafari ahiye.

Kiliziya yubatswe neza ifite n'umusaraba hejuru iteyeho n'indabo, ku mbuga ni amakaro hariho n'imigezi yo gukaraba ya kijyambere, n'igiti giteye imbere ya kiliziya ifite amabara y'umutuku.

Inyubako nini cyane yubatse neza iteye amarangi y'ubururu, iri gucururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga ifite n'inzugi zifite na magiriyaje, ni inyubako yubatse neza.

Inzu nini y'urusengero iriho abantu bahagaze, bambaye imyenda y'amabara anyuranye. Ku rundi ruhande harunze amabuye, hirya hari indi nyubako igaragara isa nk'igikoni y'amabati akuze.

Inyubako nini cyane iriho icyapa cya sikoro. Imbere yayo haparitse abamotari ariho n'abamotari bambaye imyenda itandukanye isa n'umukara isa n'umutuku, n'ingofero z'abamotari.

Inyubako nini cyane za etaje ebyiri ziteganye, ziriho imbere yazo ku kibuga, hariho umuntu utwara igare wambaye imyenda y'imihondo, hariho n'igiti cy'amashanyarazi kinini, gifite amatara manini.

Urusengero rwubatse neza cyane, ku mbuga yaho hubakishije, hatatse amatapi arimo amabara y'umukara n'umweru, haparitse n'imodoka, hari n'abana bari kuhakinira.

Igitanda kiri mu cyumba gishasheho, gishasheho amashyuka, inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirisya y'umweru n'amarido, n' amatafari ahiye arimo amarangi y'ubururu.

Imodoka iri kugenda igeze ku kiraro, ikiraro gifite amabara amabara yi'icyatsi, hari kugendaho n'igare riturutse inyuma y'iyo modoka. inyuma y'iyo modoka hariho abantu benshi bambaye n'imyenda yubururu bahagaze.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye. Ifite na etaje. Imbere yayo hariho abantu batandukanye bigaragara ko, ari nko kubuyobozi. Hariho abantu bambaye imyenda itandukanye iy'umukara, iy'umutuku.

Inyubako nini cyane yubatse neza. Isakaje y'umutuku irimo n'ibirahuri by'umweru bya fime, kuri jaride ni pasiparume, hakuryaho hari ishyamba.

Abantu bari mu nama bambaye imyenda inyuranye y'umutuku, y'umuhondo, y'icyatsi, hariho n'umudaso uhagaze, abandi bahagaze imbere bari butanga ibitekerezo, bari kubaza n'ibibazo babateze amatwi, abandi bari hejuru ku nyubako ihari, izitije akazitiro k'ibyuma.

Muri gare ahantu haparitse amamodoka menshi, harimo abantu benshi banyuranye bambaye imyenda y'imituku, y'ubururu, y'imihondo harimo n'umudamu urwaye uri kugendera ku kibando, harimo n'umuhungu uteruye imizigo.

Imodoka nini cyane ya ritiko, ifite amabara y'ubururu, harimo n'umweru, harimo n'umuhondo, itwara abagenzi, iraparitse ahantu, hariho n'amakaro yumutuku.

Muri gare ahaparitse za kwasiteri, abagenzi bari mu modoka, abandi bari kurira, harimo n'imitaka ya mutiyene na ayiteri, harimo abantu bambaye imyenda inyuranye, imituku, imihondo, n'amamodoka menshi.

Abantu bafite amagare baparitse ku muhanda bambaye n'ingofero z'umuhondo abandi bambaye izirebye imbere. Ni abanyonzi bari gushaka abagenz. Hariho n'utuduka twa mobayiro mani.

Gare ya Kayonza ni gare nini cyane imbere yaho hahagazeho amamoto aparitse n'abantu bari kugenda, ku ruhande hamanitse umutaka wa emutiyene hicaye n' umwajenti n'undi mukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi.

Imodoka ziri muri gare, amakwasiteri, ivatiri, harimo abagenzi benshi bambaye imyenda inyuranye, ubururu umweru, umutuku, harimo abagenzi benshi cyane.

Igare riparitse ry'umunyonzi ririho imisego, riraparitse nta muntu uriri iruhande, riri ryonyine.

Imodoka iri gushakisha abagenzi, irimo umushoferi. Ni imodoka isa n'umweru ya kwasiteri, iri gushakisha abagenzi. Ifite n'amatara y'umutuku. Imodoka idufasha gukora urugendo ikatworohereza mu rugendo.

Ikimodoka kinini kiri gutwara abanyeshuri bambaye imyenda yishuri, iniforume, bahetse ibikapu, bambaye inkweto zifunze n'amasogisi yumweru, abandi inkweto z'imikara, abana bari gutaha, bagiye mu biruhuko.

Imodoka ziparitse mu muhanda zirimo amabara y'ubururu n'umweru, n'abantu bari kugenda bambaye imyenda yimituku n'imikara, hirya hariho ibiti, hariho n'igiti cy'umugwegwe.

Imodoka n'amapikipiki biri kugenda mu muhanda, ni imihanda ibiri, uwo hakurya n'uwo hakuno, ziri kuzamuka n'iziri kumanuka. Hagati y'imihanda hateyemo indabo, n'abantu bari kugenda bambaye n'imyenda y'amabara anyuranye.

Indege ya eri Rwanda ifite amabara y'ubururu, n'umuhondo, n'umweru. Iri kuguruka mu kirere ikagenda hejuru.

Imodoka nini iri kugenda mu muhanda ya ritiko，ifite amabara y'icyatsi，ubururu n'umweru，itwaye abagenzi. Iri kugenda，haruguru yayo hariho igitari kinini，kirimo ibiti birebire.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, imbere hirya yayo haparitse amamoto hateye n'ibiti binini harimo n'umushoferi, imodoka ifite amabara y'umweru n' icyatsi.

Abamotari baparitse imbere y'inyubako nini igeretse, bambaye n'ingofero z'ubururu hariho n'abagenzi bari gushaka kugenda kuri moto, bambaye imyenda y'imikara n'iy'imituku.

Ahantu haparitse hari inyubako nini cyane, haparitse imodoka nyinshi n'abamotari n'abantu ni benshi cyane ni uruvunganzoka bambaye imyenda y'umukara n'imituku hari abantu benshi banyuranye.

Ikibuga kinini giparitsemo ibimodoka binini bipakiye ibintu. Inyuma hariyo indege, hariho n'umugabo uri gucunga umutekano wambaye imyenda y'imikara n'ijire y'umuhondo. Ibyo bimodoka birapakiye birimo n'abashoferi.

Ikibuga kinini cyane bari gukiniramo imikino ya tenisi, harimo abantu bambaye imyenda y'ubururu n'ingofero z'umweru, n'inkweto z'umweru, bafite na twa tuntu bakubitisha bari gukina uwo mukino.

Umugore uri gukina umupira w'amaguru wa siporo, yazingishije imisatsi ,ari guseka ,iruhande rwe hahagaze n'undi mwana ,bari gukina umupira wa siporo ,ari kuwunyuza mu maguru.

Abakinnyi babiri bari kwirukanka, umwe yambaye imyenda y'ubururu irimo amabara y'umuhondo, undi yambaye imyenda y'umweru irimo amabara y'umutuku, afite na balo mu ntoki, umwe yazingishije n'imisatsi bari kwirukanka cyane.

Imipira ibiri ya tenisi ya baro iteretse mu kibuga hariho n'akantu bakoresha bari gukina tenisi gafitemo amabara y'ubururu n'umweru, niyo mipira ifitemo uturongo tw'ubururu n'amabara y'umweru n'umukara.

Umuntu uri gutwara igare rya siporo, abantu baramushungereye bari kumuha amashyi. Abantu bambaye imyenda itandukanye irimo amabara y'umutuku, y'ubururu, y'mihondo, hateyeho n'ibiti binyuranye binini.

Abantu bari mu kivu ni abantu bane bari koga, umwe yambaye amarineti arahagaze, yambaye n imyenda y'umukara, hariho n'icyapa kirimo akantu, k'agafureshi k'umweru bambaye ngofero mu mutwe z'imihondo.

Abakinnyi b'umupira bari gukina voreboro, bambaye imyenda y'umweru n'umukara niy'ubururu yanditseho nimero cumi na gatanu, n'abandi b'inyuma b'abafana bambaye iby'umutuku.

Abana bari gukina umukino wa voleboro bari ku ishuri, gukina ni byiza binanura umubiri, siporo ni nziza turayikunda cyane, bambaye imyenda inyuranye y'imituku, y'umweru n'amakabutura y'ubururu.

Umukobwa utwaye igare rya siporo, wambaye ingofero irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, abantu baramushungeye bari kumureba, inyuma ye hariho n'imodoka, hariho n'abapolisi bambaye ingofero bari gucunga umutekano.

Ikibuga gishashemo gifite umucaca w'icyatsi, inyuma y'ikibuga haparitse imodoka, hirya hirya y'imodoka hari ibiti, muri ibyo biti haririmo n'inzu y'amabati y'umutuku.

Amakipe abiri ari gukina umupira wa vore. Bamwe bambaye imyenda y'imihondo, abandi bambaye imyenda y'icyatsi. Hariho n'abafana benshi bambaye imyenda y'imikara n'imihondo, n'indi myenda inyuranye y'amabara menshi.

Umukobwa uri guseka，uri gukina umupira wa basiketi， yambaye agasengeri k'umweru， arishimye， afite imisatsi myinshi，hirya ye hari inyubako nziza hariho n'ibiti.

Ikipe ya siporo ifite irimo abantu benshi bicaye, abandi barahagaze, bafite umupira w'amaguru, imipira mu ntoki, bafitr n'impanga z'amagare banyuramo bari gukina siporo, bambaye imyenda y'icyatsi nubururu.

Abantu bari mu makuruse bakurikiwe n'imodoka bambaye bari ku magare bambaye imyenda y'ubururu n'umukara n'ingofero, hakurya yabo hari hari igihuru n'imodoka zibashoreye zibakurikiye.

Ari gukina umupira wa vole umusifuzi afashe igitambaro cy'umutuku ,imbere ye hari umuntu wambaye agapfukamunwa k'umweru, n'ishati y'umweru, intebe zirimo amabara y'umuhondo ,n'icyatsi n'udusikariye.

Umuzungu uhagararanye n'umusore w'umunyarwanda, barishimye bari guseka bambaye ingofero ni abakinnyi ba siporo, bafite utuntu bakinisha umukino witwa tenisi.

Umugabo, abagabo babiri umwe afite imipira itatu mu ntoki ari kugenda, ari kwihuta, bambaye imyenda y'ubururu n'amakabutura y'ubururu arimo imirongo imanuye, bigaragara ko ari abakinnyi b'umupira.